Umuntu uri kugenda mu muhanda impande y'umuhanda hari uruzitiro ruzitijwe amabati, hari n'icyapa kiriho umuntu wambaye agapira gatukura, impande y'umuhanda hari n'ibyuma birebire bimeze nk'iminara.

Igipapuro cyanditseho ubwishingizi bwo kwiga, gishushanyijeho ikiganza gishaka gufata ikare, ku ruhande handitseho amagambo ''ngo nta wamenya ejo wasanga ibyawe byibwe irinde sinamenye''.

Icyapa gishushanyijeho umusore wifashe neza, kikaba gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umweru ni amagambo yanitse n'ibara ry'umweru.

Icyapa kiriho umuntu uri guseka, arishimye, yambaye isarubeti, cyanditseho ngo ubwishingizi bwo kwivuza yihariye ku bigo bito n'amashyirahamwe.

Imodoka iriho ibirango bitandukanye, inyuma yayo hari abantu benshi cyane bahagaze; hari inyubako ihari igeretse, hari abahagaze hejuru n'abahagaze hasi, imbere y'iyo nyubako hari ubusitani bwiza.

Abantu babiri bicaye umusore ndetse n'umukobwa bambaye imyenda isa, icyo batandukaniyeho n'inkweto, hepfo yabo mu ibara ry'ubururu handitse amagambo avuga ngo "mutuze heza uharinde neza".

Icyapa gishushanyijeho umuntu uhagaze wambaye umupira w'umweru afite undi mupira w'imbeho mu maboko afite varize mu ntoki.

Kwamamaza serivisi zitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi, hari abantu batatu bitwikiriye umutaka ufite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umusaza wicaye ari guseka bigaragara ko yishimye, afite uruhara, afite inkoni mu ntoki, imbere ye handitse amagambo agira ati :"No mu gihe cy'izabukuru tuzahagoboka."

Icyemezo kigaragaza niba warishyuye cyangwa utarishyuye, gifite ibara ry'ubururu hejuru, hagati umweru, hasi ibara ry'ubururu.

Ikaze kuri banki ya Kigali, mu magambo y'impine Beka iri mu ibara ry'ubururu ndetse na oranje, n'ubururu bw'ikirere gikeye, hari aho winjirira ukoresheje amazina yawe ndetse n'umubare w'ibanga.

Hari uburyo bwinshi butandukanye wakoresha wohereza amafaranga, wakoresha uburyo bw'amabanki uburyo bwa momo peyi.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye harimo imipira hejuru hari icyapa cyanditseho ngo ibikorerwa mu Rwanda hasi hari agaseke ndetse n'ibikombe bibiri biri ku ruhande.

Inzu icururizwamo inkweto harimo izifunze n'izidafunze mu nkweto zifunze zifite amabara agiye atandukanye harimo umuhondo, umweru, umukara ndetse n'izindi zigiye zifite amabara avanze.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye, hari umukobwa uhagaze, afite telefone mu ntoki ari kuyitegereza, ku mpande hari ahantu hari ibipupe.

Inzu icururizwamo imipira y'amabara atandukanye: ubururu, umweru, umukara, icyatsi kibisi, iyo mipira imanitse ahantu heza cyane.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye harimo imyenda ibikoresho gakondo, imitako myiza cyane, indabyo nziza, iryo duka ryubakishije amabuye.

Idukaza ricuruza amapantaro agiye atandukanye, ubururu, umukara, umweru, ikigina n'andi mabara.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, irimo umugore ndetse n'umukobwa, umwe afite akamashini mu ntoki, undi afite telefone, iyo nzu irimo amashati afite amabara atandukanye.

Inzu icuruza imyenda itandukanye, harimo imipira, amakanzu, ipantaro, amakanzu harimo amabara atandukanye, ubururu, icyatsi kibisi, umutuku, iroze, umweru ndetse n'umuhondo.

Imodoka ihagaze ubona ari nshyashya, impande yayo hari icyapa gishushanyijeho umusaraba uri mu ibara ry'ubururu, ku mpande n'ubundi hari ibiti bihari, hakurya hari inzu isize irangi rya oranje n'amabati y'umutuku.

Imodoka zigurishwa, ni ebyiri zifite amabara y'umukara, ziparitse impande y'inyubako, ahantu ziparitse ni ku mbuga iriho amapave.

Imodoka nziza cyane iri mu bwoko bwa toyota, ifite ibara ry'umweru n'ibirahuri byiza cyane, iri mu nzu irimo amakaro.

Imodoka nziza cyane ihagaze mu muhanda wa kaburimbo iragurishwa miliyoni cumi n'ebyiri, ku mpande z'umuhanda hateye ibiti byiza cyane.

Abantu batatu bafashe icyapa mu ntoki, harimo abagabo babiri n'umugore umwe. Icyo cyapa gishushanyijeho imodoka esheshatu z'ubwoko butandukanye.

Abazungu batatu, harimo umwe ufite agakapu, undi ni umwirabura, bahagaze imbere y'imodoka, iyo modoka iri imbere y'inyubako nziza cyane, hejuru y'iyo nyubako hari icyapa cyanditseho ngo "Nisani."

Ahantu heza cyane, haparitse imodoka, iyo modoka ifite amabara abiri, ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru, impande yayo, hari icyapa gihari.

Imodoka eshatu nini ziparitse ahantu hamwe impande yicyapa kuruhande rwazo, hari abagabo babiri bahagaze umwe afite agakapu mu ntoki.

Igiceri kiri hagati y'amabara abiri, hejuru hari umukara, hasi n'ubundi hari umukara, cyanditseho amagambo banki nkuru y'u Rwanda, gishushanyijeho igitoki, hepfo handitsemo imibare bibiri n'icyenda.

Udufungo tw'inote, dufungiye hamwe, dupanze neza, turi ku meza, hari n'icyuma cy'ikoranabuhanga, bakoresha mu kubara amafaranga.

Abantu babiri bafashe amafaranga y'inoti mu ntoki atandukanye bigaragara ko bari mu biro cyangwa mu nzu itangirwamo serivise z'ivunjisha.

Amafaranga y'igiceri, y'u Rwanda rwo hambere, arimo ishusho y'ikawa, harimo ikawa zeze, harimo n'umwaka yakorewemo.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa ndetse n'imashini. Umuntu uri kwandika wambaye ikote ry'umukara n'ishati isa n'ikirere gikeye.

Inzu ibikwamo amafaranga, harimo amafaranga menshi y'inote agiye aziritse, hari ukuboko kuyafashe, imbere hari icyuma cy'ikoranabuhanga bakoresha mu kuyabara.

Umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, ari kubara amafaranga, afite inote z'ibihumbi bitanu imifungo ibiri. Imbere ye hari mudasobwa.

Amafaranga inote y igihumbi y'u Rwanda, yanditseho ngo banki nkuru y'u Rwanda, ishushanyijeho inzu ndetse n'umuntu uri kubyina hariho imikono ndetse n'inyamaswa.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo amazi ya Jibu, irimo abana batatu ndetse n'umukobwa umwe uri kubaha serivisi.

Abantu babiri bari gutanga serivisi hari n'icyapa cyanditseho inyange miliki zone, hari nahandi handitse ngo intungamubiri ukeneye ku giciro cyiza.

Igikombe gisa umweru kirimo amata, ku ruhande rwacyo hari icupa ry'amazi giteretse ku meza ateguyeho ibitambaro byiza.

Igikoresho kinini babuganizamo amata, ku mpande yacyo hari amacupa manini arimo amazi, hari n'utujerekani turimo amata, hari n'uducupa dutoya turimo amazi.

Inzu icururizwamo amata ariko harimo amata agiye afunze mu buryo butandukanye, hari ari mu tujerekani, ari mu dukarito n'amata ari mu ducupa n'andi ari mu dukombe.

Isambusa enye ziri ku isai y'umweru, imwe iciyemo irimo inyama ndetse n'ibirungo.

Inzu icururizwamo amata, hari igikoresho kinini bacundiramo amata, hari n'ahandi hantu hatunganije neza babika amata.

Isahani iteretse ku meza, iriho amandazi ameze neza manini, harimo rimwe risatuyemo ibice bibiri.

Utujerekani tw'amata, dupanze bitewe n'uko tugiye dukurikirana, impande yatwo hari udukarito turimo amata.

Umukobwa ushyize amaboko kumeza, hari umuntu ari kureba, atoboye amatwi, aboshye imisatsi.

Umuntu uri gufungura, afite keke mu ntoki, igabuyemo ibice bibiri. Aho hantu ari hari intebe, hari isahani ndetse n'ameza.

Umubyeyi wicaye impande y'iduka, iruhande rwe hari igikombe kirimo icyayi ndetse n'ikiyiko cyo kuvangisha isukari, afite terefone mu ntoki, impande ye hari icyapa gishushanyijeho icupa rya Kokakola, muri iryo duka harimo amazi, hakabamo n'intebe.

Ikaragiro batunganirizaho amata, imbere harimo abantu bahagaze ndetse n'ibikoresho bitandukanye bagenda bakoresha, ku ruhande hari igiti kiziritseho inka, ifite amabara umweru n'umukara.

Ikirango kiriho terefone, umwana utari kugaragara neza, hejuru handitseho aya magambo ngo" teganyiriza ahazaza h'umwana wawe" amafaranga make watangiza none, yakubaka ejo hazaza heza h'abana bawe.

Icyapa kiriho ikirango cya AIRTEL, hari na telefone, mu kirahure cyayo harimo ibara ry'umutuku ndetse n'iry'umweru n'amagambo yanditsemo.

Icyemezo gitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro ndetse n'amahoro gihabwa umuntu wandikishije umushinga we, kiriho imibare ndetse cyanditseho n'amagambo.

Icyemezo gihabwa umuntu wishyuye umusoro gitangwa n'ikigo cyigihugu gishizwe imisoro namahoro hariho uwishyuye itariki yishyuriye.

Urupapuro rushushanyijeho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, handitseho amagambo ndetse n'imibare.

Ibiganza bine bifashe ku note z'amafaranga. Bigaragara ko buri wese ari kuvunjira mugenzi we. Amafaranga ashushanyijeho abantu batandukanye.

Amafaranga ari ku meza, hari inote zitandukanye izo note zose ni iz'ijana. Hari ibiceri bihari bitenze neza, hari n'ibindi bidatenze neza.

Amafaranga inode y'igihumbi y'amakungomani, magana atanu, magana abiri ariho ibishushanyo bigiye bitandukanye.

Inote z'amafaranga zishushanyijeho abantu, izo note zifite amabara atandukanye: hari izifite amabara y'umweru, hari izifite ibara ry'icyatsi kibisi, ibara ry'umutuku ndetse n'andi.

Umuntu ufite amafaranga y'inote, ariko zizirikiye hamwe, yazigabumo ibyiciri bitatu, kugira ngo abone uko ayabara neza.

Amafaranga agizwe n'inote ndetse n'ibiceri, inote ni iy'ijana ishushanyijeho umuntu wambaye indorerwamo z'amaso impande yayo hari ibiceri bitatu bibiri bisa ukwabyo ikindi kimwe nacyo gisa ukwacyo.

Icyapa kiri ku nyubako y'ibiro by'ivunjisha, cyanditseho amagambo agiye, atandukanye yanditse mu mabara atandukanye, hari n'ayanditse mu Gishinwa.

Inyubako ifite ibirango bigiye bitandukanye, hari abazungu bari imbere yayo ni batatu, babiri bambaye rinete undi yambaye umupira usa iroza.

Inyubako imeze neza imbere yayo hari ibyapa bibiri bihamanitse, hari umuntu wambaye ingofero y'umweru, hari insina ndetse n'ibiti.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zijyanye n'ivunjisha ry'amafaranga, hari ibyapa bimeze neza birangira umuntu aho iyo serivisi itangirwa.

Hoteri nziza cyane isize amarangi meza, imbere yayo hari utuzu two kuruhukiramo ndetse n'ubusitani bwiza cyane, bugizwe n'ibiti ndetse n'indabo.

Ibiti bikikije inyubako nziza igeretse gatatu, imbere yayo hari inyubako abantu baruhukiramo.

Hoteri nziza cyane, imbere ifite intebe nziza cyane, iteguyemo indabo, hicayemo umuntu, iririmo amakaro, ifite ibirahure byiza bigezweho.

Hoteri nziza cyane, yubatse neza, imeze neza, imbere yayo hari ubusitani burimo intebe, harimo n'umutaka, impande zayo hari ibiti bitanga amabeho.

Inzu isize irangi rya oranje imbere yayo hari indabo nziza cyane, hari n'ubusitani, hepfo yayo hari inzu abantu bicaramo bari kuruhuka cyangwa bari kwiyakira.

Hoteri imeze neza cyane, ifite ibyumba bitandukanye kandi biteguye neza cyane. Impande yayo hari pisine abantu bogeramo.

Hoteli nziza cyane, ifite ubwogero hanze, hakurya hari ibiti bimeze neza, bitanga amabeho, ifite utuyira twiza, tugenda tukujyana muri buri cyumba, aho ushaka kujya.

Inyubako ebyiri zitekanyeye nziza cyane, imwe yo ku ruhande hejuru hari umuntu uhari, ifite pisine ku ruhande, imbere yayo hari utwatsi duhari, ndetse hari n'ikirere cy'ubururu n'umweru.

Hoteli nziza cyane ijyanye n'igihe, ifite imiryango igiye itandukanye, yegereye umuhanda, hari amatara ari kwaka.

Hoteli nziza cyane yubakishije ibirahure bisize amarange meza, imbere yayo hari indabyo zimeze neza ndetse n'ubusitani.

Hoteli imeze neza cyane yubatse mu buryo bujyanye n'igihe, isize amarangi meza cyane, ifite ubwogero bugezweho, hakurya hari ubusitani bw'indabo, muri make hari ibiti.

Hoteri nziza cyane yubatse neza, isize irangi ry'umweru, mo imbere harimo abantu bari kwaka serivisi, imbere yayo hari imitaka ihari irimo intebe, imbere gato na ho hari ubwogero tuzi ku izina rya pisine.

Ibiro bya kampani ishinzwe ubwishingizi. Harimo intebe, ibitabo, utubati ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga.

Umwana ufite indobo, urimo kugenda, imodoka ebyiri ziparitse, abasore babiri barimo kugenda, insinga z'amashanyarazi zifatiye ku ipoto ndetse n'inyubako nziza.

Umuhanda munini urimo imodoka, umumotari, ku mpande zawo hahinze indabo ndetse n'igiti, hakurya hari inzu nini cyane yubatse mu buryo bugezweho.

Abagabo bambaye amakote, harimo uwambaye ingofero n'indorerwamo z'amaso, bari imbere y'inyubako nziza cyane, yanditseho ngo tuzabigira byiza.

Inzu isize irangi ry'ubururu iriho ibyapa bitandukanye byerekana serivisi zihatangirwa, ku rugi handitseho irembo imbere yayo hari intebe zihari zifite ibara ry'umutuku.

Inzu irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, biri ku meza, ibyo ibikoresho ni mudasobwa, hari intebe, hari izifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zijyanye n'ubwishingizi, ku mpande zayo hari ubusitani bwiza, ifite uruzitiro rw'ibyuma, hejuru handitseho ijambo ngo "SONARWA".

Ibiro bitangirwamo serivise z'ubwishingizi, impande yabyo hari umuhanda, urimo imodoka, abamotari, hakurya hari ibiti.

Inyubako yegereye umuhanda, imbere yayo hahagaze imodoka, hari umuntu uri kwambuka mu umuhanda ndetse hari n'amatara ari mu muhanda.

Ibiro bitangirwamo serivisi z'ubwishingizi umuryango urafunguye, hari icyapa gisa ubururu, hari n'amagambo yanditse muri icyo cyapa, imbere yacyo hari akaboko k'umuntu.

Icyumba gitangirwamo serivisi, kicayemo abantu batandukanye, harimo umuzungu, buri wese imbere ye hari mudasobwa ziteretse ku tuntu dufite amabara atandukanye, hari agafite ibara ry'ubururu n'agafite ibara ry'umweru.

Umukobwa utwaye imodoka ari guseka cyane bigaragarako yishimye ari kumwe n'umusore warambuye ibiganza, hejuru y'iyo modoka hantseho ngo wayitunga nawe.

Inyubako itangirwamo serivisi z'amabanke, imbere yayo hari abantu batatu bahahagaze, isize irangi ry'umuhondo n'iry'umweru, hari n'amagambo ahanditse.

Inyubako nziza cyane igeretse yanditseho ngo ishami rya kabuga, imbere yayo hari amavase y'indabo ndetse ifite n'ibyapa bigiye bigaragaza buri serivisi itangirwa muri buri muryango.

Urupapuro runini rushushanyijeho umukobwa uri guseka cyane wambaye umupira w'amaboko ari kureba muri mudasobwa, haruguru ye handitse ijambo ngo nyaruka.

Abantu babiri bahagaze imbere y'imodoka, hagati yabo hari ikona, umugabo afite ikayi mu ntoki ari kwandika yambaye n'ikarita y'akazi, hakurya yabo hari icyapa cyanditseho ngo ''saba inguzanyo ya IGA usohoze umugambi wo kwiga gutwara imodoka.''

Abantu bateraniye hamwe, imbere yabo hari impapuro zitandukanye, harumu umukobwa wambaye ingofero yumukara n'umupira w'umweru, wambaye n'ikarita y'akazi mu ijosi, afite terefone, ari gufotora.

Igipapuro gishushanyijeho abantu bari guseka, harimo umusore ndetse n'umukobwa, umukobwa afite urufunguzo mu ntoki, hejuru yabo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Inyubako nziza cyane, iteguye neza, buri meza hateguyeho ibitambaro by'icyatsi kibisi. Harimo abantu batandukanye, abagore ndetse n'abagabo. Bafite ingingo bari kwigaho.

Abantu bari mu isoko, bafite imitwaro, hari abafite ibikapu, hari n'uhetse igikapu wambaye ikoti ry'umukara.

Isoko ryiza cyane rijyanye n'igihe, rifite inzira nziza zigenda zigeza abacuruzi cyangwa abaguzi aho bashaka kujya kureba ibicuruzwa, cyangwa ibyo bahaha. Ririmo abantu batandukanye.

Isoko rinini cyane ricururizwamo imboga n'imbuto, zimwe muri zo harimo karoti, dodo, intoryi ,itomati, imiteja, amashaza, ibishyimbo, indimu, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Isoko ririmo abantu bari gucuruza umwe ahahagaze afite imbago, abandi bayicaye hagati yabo hari ibase irimo imineke indi base irimo avoka.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ibyo kurya ndetse n'imyambaro. Mu myambaro harimo amapantaro, amakanzu, amajipo ndetse n'imipira. Naho mu byo kurya harimo imboga n'imbuto, imiceri ndetse n'ibindi.

Isoko ricuruza ibiribwa bitandukanye, harimo ibitoki, hakabamo n'imboga, mu mboga dufite dodo, amashu n'intokiyi naho ibirungo dufite inyanya, karoti na pavuro.

Isoko ryiza, riherereye muri Nyabugogo, risakaje amabati y'ubururu, impande yaryo hari imodoka, hari abantu bagiye muri iryo soko n'abandi bagiye muri gahunda zitandukanye.

Isoko ricuruza imyenda itandukanye, ririmo abacuruzi bicaye, ricuruza ibitenge n'imyenda isanzwe, irimo imipira amakanzu hari n'ibikapu.

Umucuruzi uri gucuruza imbuto zitandukanye, hari umukiya uri kumuhahira, izo mbuto harimo; imyembe, ipapayi, avoka, ndetse n'indimu.

Isoko riherereye mu mujyi wa Kigali ricuruza imboga n'imbuto harimo abacuruzi harimo abakiriya, harimo ibitunguru, harimo inyanya, harimo puwavuro, harimo imineke, harimo indimu, harimo na karoti.

Umubyeyi wishimye cyane ufite telefone mu ntoki n'icyapa mu ntoki cyanditseho ngo:''ishyura ukoresheje momopeyi''; inyuma ye hari abantu benshi, iruhande rwe hari indobo ihari.

Inyubako itangirwamo serivise za MTN hari umuntu uhicaye wambaye indorerwamo z'amaso, hari n'undi wambaye umupira w'umweru n'indorerwamo z'amaso ufite agaseke ari guha umuntu kugira ngo ashyiremo amafaranga.

Abantu batatu bahagaze, umwe afite terefone mu ntoki, undi ari kumureba, hari uwambaye umupira w'umuhondo wa MTN, uri kubaha serivisi. Impande yabo hari imodoka zihaparitse no hakurya yabo hari icyapa cyanditseho momo peyi yo kwishyuriraho.

Abantu batatu, babiri barahagaze, umwe aricaye afite mudasobwa, undi ari gusobanurira umukiriya ibijyanye na serivisi zitangwa muri MTN.

Abantu bari mu isoko bari guhaha ibintu bitandukanye, hari ifu, hari karoti, hari intoryi, hari amakaroni ndetse bagakoresha n'uburyo bwa Momo pay bishyura.

Akazu ka emutiyeni, impande yako hari igiti bigaragara ko kiriho insinga z'amashanyarazi, ako kazu gafite ibara ry'umuhondo, gashushanyijeho umuntu ufite terefone, imbere yako hari umuntu uhahagaze.

Akazu ka mtn gasize irangi ry'muhondo, impande yaho hari umuntu uhagaze, afite telefone ku gutwi ari kuyivugiraho.

Abantu bahagaze, hari n'abicaye, bamwe bambaye imipira isa, abandi barahagaze bari kubaka serivisi, bari mu mahema ya MTN afite ibara ry'umuhondo.

Ku cyicaro cya MTN ahatangirwa serivisi zijyanye na MTN, harimo abakozi batatu bambaye imipira isa; babiri bambaye amakarita y'akazi, hari umuntu uhahagaze uri kubaka serivisi.

Abantu babiri, umwe ahetse igikapu bahagaze ku kazu ka Emutiyeni gatangirwamo serivise, ako kazu gasize irange ry'umuhondo.

Umugore ndetse n'umugabo bari ku meza, bari kurya, ku meza hateretse ibintu bitandukanye, hari avoka, hari amavuta yo gushyira ku biryo ndetse n'ibindi.

Imboga ziri hamwe, harimo amashu, puwavuro, epinari, inyanya n'imiteja.

Abagore mu nzego z'ubuyobozi. Amafoto cumi n'abiri y'abagore bari mu nzego z'ubuyobozi kandi ku myanya igiye itandukanye.

Umuntu wicaye yasobekeranyije amaguru, afite telefone mu ntoki, yambaye igikoresho bakoresha bumva amajwi.

Icyapa kiriho uburyo wahaha wifashishije ikoranabuhanga, cyanditseho amagambo, kirimo amabara agiye atandukanye, icyatsi kibisi, umutuku, umweru ndetse n'umukara.

Umukobwa wambaye umupira w'icyatsi kibisi hari akantu ari gufungura kanditseho ngo vuba, yambaye amaherene aziritse imisatsi.

Inzu irimo abantu, ifite inzugi nziza, irimo ibirahuri bifite amatara ndetse na parafo.

Inzu nziza cyane irimo ibikoresho bigezweho, harimo intebe, ameza n'icyuma kigabanya ubushyuhe, hari n'abantu bahagaze umwe hari ibyo ari kwereka undi.

Ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bw'ikirere, inyubako nziza, imbere yayo hari izindi nzu zimeze neza, hari ubusitani ndetse n'indabyo.

Inzu imeze neza yubatse neza isize amarangi, hari irangi rya shokora, irangi ry'umukara, n'irangi rya kaki, impande yayo hari amavase arimo indabo ku mbuga hari amapave.

Inzu yo kubamo ifite umuryango ufunguye umeze neza iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali iragurishwa amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nziza cyane, irimo ibikoresho bikoreshwa umuriro w'amashanyarazi, harimo igikoresho bakoresha bateka icyayi hifashishijwe umuriro w'amashanyarazi. Harimo indobo z'icyatsi kibisi, ijerekani isa umuhondo.

Inzu igurishwa iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali iragurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu yo kubamo imeze neza, irimo amakaro, harimo itara ryiza cyane, harimo utubati, hateguyemo n'indabo zimeze neza.

Inzu yo kubamo nziza, imeze neza, mu mbuga hari amapave, isize amarangi atandukanye, isakaje amabati ya dumuzazi.

Inzu nziza, imeze neza, isize amarangi meza, ifite inzugi nziza, ikodeshwa ibihumbi magana atatu, imbere yayo, hari moto ihahagaze.

Inzu yo kubamo iherereye Kibagabaga, umuryango wayo urafunguye, ifite uburiri bubiri, icyumba kimwe cyo kogeramo.

Inzu yubatse neza cyane igeretse kabiri, imbuga yayo yubakishije amapave, munsi hari umuntu urimo kugenda.

Inzu nziza cyane ikodeshwa iherereye i Kanombe Busanza, ifite ibyumba bine byo kuraramo ndetse n'ibyumba bitatu byo kogeramo, hanze hari ubusitani bumeze neza.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi iherereye impande y'umurenge wa Kabeza isakajwe amabati y'umutuku azwi ku izina rya dumuzasi, iyo nzu isize amarangi harimo irangi ry'ubururu n'irangi ry'umweru.

Inzu nziza isakaje amabati atukura, ifite igipangu, ifite n'uruzitiro rwubakishije amatafari, hejuru ku ruzitiro hari amatara abiri ateganye.

Inzu ikodeshwa ibihumbi magana abiri, ifite uruzitiro rwubakishije amatafari, ku mbuga yayo hari indabo zimeze neza.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bujyanye n'igihe, ifite imiryango myiza, inzugi zirimo ibirahure, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane, hakurya hari iyindi nzu.

Inzu nziza cyane ikodeshwa, isakaje amabati ya dumuzazi, isize irangi ry'ubururu, ku mbuga hari amapave, iherereye i Kigali Kicukiro, ifite uburiri bune, ubwogero butatu, ikodeshwa ibihumbi magana atanu by'abanyarwanda ku kwezi.

Iduka ryitwa Simba, hari abantu bari kurigana bajya kuryakamo serivise, hari umuntu wambaye umupira w'ubururu wanditseho icumi mu mugongo.

Iduka ricuruza ibinyobwa, ibinyobwa by'ubwoko bumwe, bipanze ahantu hamwe, ririmo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'amatara ari kwaka.

Isoko ririmo amakaro rimeze neza, hahagaze umukobwa uboshye imisatsi ari gukoresha icyuma cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu kwishyura, inyuma y'icyo cyuma hari udutako turi mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hepfo hari inanasi.

Iduka ryubatse neza ricuruza imyenda irimo amakanzu, hari n'indi miryango itanga serivise zitandukanye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, irimo itara, harimo abantu bicaye n'abahagaze, abicaye bicaye ku ntebe zisa umweru.

Iduka ricuruza imikati, hari akaboko k'umuntu kari kuyipanga neza, igiye ipanze ibiri ibiri, ifite ikirango gisa.

Ihema ritakishije umwenda ufite amabara y'ibendera ry'igihugu, ririmo abantu benshi batandukanye, abagabo ndetse n'abagore, hari umugabo uhagaze, imbere hari n'undi bari kumwe wambaye indorerwamo z'amaso, bafashe ku ikarita y'ubwisungane mu kwivuza.

Umuntu wicaye, ku ntebe yambaye ijipo y'igitenge n'umupira uciye amaboko, afashe amakarita abiri, y'ubwisungane mu kwivuza mu ntoki.

Ivuriro ry'ibanze ryanditseho ngo gira ubuzima ishushanyijeho abantu bane umugore n'umugabo ndetse n'abana babiri hari umugore wambaye ikanzu yigitenge.

Umuntu uri kwandika ku bipande, hari ibipande bibiri bifite ibara rya kacyi, birimo na kashe. Hari ikaramu ndetse n'ameza ari kwandikiraho.

Icyapa kimanitse ku ruzitiro, kiriho ikirangantego cy'Igihugu, kikaba cyanditse amagambo ngo izigamire ugire ejo heza, kikaba kiriho n'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani.

Umuntu uhagaze wambaye ishati y'umweru na karuvati, hari abantu babiri bari kumuha terefone, umwe yambaye isaha ku kuboko.

Igipapuro gishushanyijeho abantu, ariko ni abagore. Harimo umugore uteruye umwana, hejuru handitse amagambo ngo, ishami rishinzwe gucunga ubwisungane mu kwivuza, mituweli.

Umuntu ufashe ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mu ntoki, yicaye mu ntebe ahantu ari hari sima isa nkaho yangiritse.

Ikigo nderabuzima cyajeho abantu batandukanye, harimo ababyeyi, harimo abakuru n'abari gutanga serivisi ndetse hari n'inama zanditse bakira abaturage.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bicaye mu cyumba kimeze neza, abicaye imbere hari ameza ahari, ateguyeho igitambaro gifite amabara ,harimo impapuro zigiye ziri ku nkuta z'inzu.

Abantu bicaye mu nzu, harimo abagabo ndetse n'abagore, abasaza n'abakecuru, bafite udukayi mu ntoki, hari umuntu bahanze amaso nk'aho ari kubaganiriza.

Akabati karimo ibinyobwa bigeye bitandukanye by'ubwoko bwose, harimo inyange, harimo amata y'inyange, harimo n'amazi.

Isoko ryiza cyane kandi rishimishije ririmo ibicuruzwa bitandukanye, buri bwoko bw'igicuruzwa kigiye gipanze ahantu hamwe, ku buryo ubona bifite isuku nta kavuyo kabiririmo.

Iduka ryiza cyane ririmo amakaro, ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho by'isuku, harimo ibinyobwa, urugero nk'amaji, hakabamo n'amavuta yo kwisiga.

Isoko rimeze neza cyane, ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ibicuruzwa by'ubwoko bumwe biri ahantu hamwe, hari n'ibishushanyo bya pome.